Inzitiro ku matungo; Shyiraho uruzitiro rukomeye kandi rukwiriye hose kugira ngo urinde amatungo yawe kuzerera cyangwa guhura n'ibintu byangiza. Genzura buri gihe uruzitiro unarusane mu gihe rwangiritse ku bwishingizi bw'amatungo. Inama y'umunsi.

Hano ni apulikasiyo ya banki iri muri telefone aho uwitwa Hirwa Hubert ari kuyikoresha kugira agenzure konte yiwe iri muri banki.

Imbere yange ndahabona emu yu eyi inshuwarensi Rwanda rimitedi ishami rya Nyabugogo ku bindi bisobanuro wahamagara telefone igendanwa zeru karindwi umunani makumyabiri n'umunani mirongo ine na gatatu ijana na mirongo inani na karindwi.

Imbere yanjye ndahabona imodoka nini ifite amabara y'umuhondo n'ubururu handitseho iposita ihagaze imbere ya etaje nayo ifite amabara y'ubururu n'umuhondo naho ni kuri biro y'iposita.

Imbere yanjye ndahabona intoki zifite ikarita y'umuhondo ya mituewelle de sante yatangiye mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali, iyi karita umuntu uyifite ntarembera mu rugo ahubwo iyo arwaye ajya kwa muganga akavurwa.